Ubutabazi bw'ibanze ni bumwe mu butabazi rwose bukorwa n'abantu baba bari hafi y'abantu bafite ibibazo aba ngaba dukunnze kwita abaredikorosi cyangwa se abahakorera Kuruwaruge bashobora kugufasha mu gihe waba ugize ikibazo cyaba icyo mu mutwe impanuka n'ibindi byose bishobora kubangamira uburenganzira bwawe bakagutabaraho kujyana kwa muganga.

Ubuvuzi bw'ibanze ni bumwe mu buvuzi bukorerwa umuntu ugize ikibazo runaka, kugira ngo yihutishirizwe kwa muganga. muri ubwo buvuzi rero, ushobora kwifashishwa imodoka zigiye zitandukanye, zirimo Ambirance cyangwa izo dukunda kwitwa imbangukiragutabara.

Amavuriro y'ubutabazi bw'ibanze ni amwe mu mavuriro afasha abantu kugira uko bigenza mu gihe bahuye n'ikibazo runaka, mu gihe bahuye n'ikintu kibahungabanya, wenda nk'imodoka yagonze umuntu; ni ngombwa ko byihutirwa bakaba bamwitaho. Amavuriro aba ari ingenzi kuko agomba kuba yubatse ahantu haba hegereye abantu cyangwa se muri buri gace.

Imbangukiragutabara ni zimwe mu modoka zifasha abarwayi kugera kwa muganga mu gihe bahuye n'ikibazo runaka bari mu rugo cyangwa se bakoreye nk'impanuka ku muhanda, ikabavana kuri uwo muhanda cyangwa se ikabavanamo muri urwo rugo ibajyana kwa muganga kugira ngo bitabweho.

Ubutabazi bw'ibanze mu gihe umuntu ahuye n'ikibazo runaka nk'ubutabazi bukenerwa cyane. Niba umuntu uhuye n'mpanuka ku muhanda abantu bagomba guhita bamufasha ako kanya. Abo bantu rero niyo mpamvu tubita abatabazi b'ibanze, baba bafite ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse banabifitiye uburenganzira.

Ubutabazi bw'ibanze ni bumwe mu buvuzi bw'ibanze nyine nk'uko nyine bibivuga igisobanuro cyabwo, bushobora gukorerwa umuntu ugize impanuka, uguye n'igihumure, ufite ibibazo bitandukanye byo mu mutwe, ushobora kumukoresha ibintu byinshi bitandukanye.

Ubutabazi bw'ibanze cyangwa se ubuvuzi bw'ibanze ni bwa buvuzi buhabwa umuntu ugize ikibazo gitunguranye bitabaye ngombwa ko bamubaza ibintu byinshi, ashobora wenda gukomereka akaba ahuye n'igikomere akihutishirizwa kuzanwa kwa muganga kugira ngo bamwiteho ako kanya.

Ubutabazi bw'ibanze ni bumwe mu butabazi bukorerwa abantu bagize ikibazo runaka kitari kitezwe, aba bantu bakora ubutabazi bw'ibanze bakora mu mwanya w'imbangukiragutabara, ubundi aba bantu ni bamwe mu bantu bafasha mu gutanga serivisi cyangwa se mu gutanga ubwo bufasha mu gihe abantu babukeneye.

Ubutabazi bw'ibanze ni zimwe muri serivisi zitangirwa kwa muganga, mu gihe umuntu azikeneye, yaba afite ibikomere bikabije cyangwa se indwara imuteza ibibazo bigiye bitandukanye, igahita ahabwa ubutabazi bw'ibanze, batabanje kumucisha hirya no hino.

Kugira ngo umuntu ahabwe ubutabazi bw'ibanze, ni ngombwa ko haba hari ibikoresho bimufashamo, ni muri urwo rwego ushobora gusanga kwa muganga bafite imodoka zijyana umuntu ufite ikibazo, akajya kwitabwaho mu bindi bitaro, mu gihe ibyo bitaro avuyemo bidafite izo serivisi agiye guhabwa muri ibyo bitaro bindi.

Ubutabazi bw'ibanze cyangwa se ubuvuzi bw'ibanze muri rusange, ni bwa buvuzi umuntu ahabwa, mu gihe ahuye n'ikibazo cy'impanuka, cyangwa se, ahuye n'ikiza gitunguranye, kimugizeho ingaruka z'ako kanya, biba ngombwa ko bahita bamuvura, batabanje kumubaza ibindi bintu byinshi.

Abantu bashinzwe ubutabazi bw'ibanze, ni abantu bafasha cyane mu gihe umuntu ahuye n'ikibazo runaka, ahantu runaka haba hari ahantu hateraniye abantu benshi, cyangwa se ahantu ku mihanda bafasha rwose mu kugoboka abantu mu gihe bagize ibibazo byo mu mutwe cyangwa se ibindi bibazo.

Ibitaro n'ibigo nderabuzima biciriritse ni hamwe mu hantu umuntu ajya kwakira serivisi mu gihe ameze nabi atiyumva neza mu yandi magambo arwaye, iyo ahageze hari abagomba kuba bamwitaho bakamusuzuma ndetse bakamugira inama y'ukuntu agomba kwitwara, bakamuha n'imiti imuvura.

Ubuvuzi bw'ibanze cyangwa se amavuriro muri rusange ni hamwe mu hantu umuntu agana akajya guhabwa serivisi zitandukanye zijyanye n'uko amerewe mu gihe arwaye bakamwitaho, bakana bamugira n'inama mu gihe aje kugisha inama ku bijyanye n'ubuzima bwe, aha ngaha ahasanga abantu b'abaganga baba barabyize bafite n'impamyabushobozi.

Amavuriro n'ibigo nderabuzima ni hamwe mu hantu umuntu ajya gufatira serivisi z'ubuvuzi mu gihe atameze neza, akongera akamererwa neza. Ahangaha ushobora kuhasanga ibintu byinshi bigiye bitandukanyem, nk'imodoka zitwara abarwayi zibavana ku bitaro bimwe zibajyana ahandi.

Amavuriro n'ibigo nderabuzima ni ahantu hatangirwa serivisi z'ubuvuzi umuntu ajya ameze nabi atameze neza mu yandi magambo kugira ngo abashe gufashwa, aha ngaha iyo uhagiye uhasanga abaganga bagufasha ku kuguha imiti cyangwa se bakakugira inama ku bijyanye n'ubuzima bwawe kugira ngo wongere kumera neza.

Ibigo nderabuzima n'ibitaro, ni hamwe mu hantu ushobora gusanga abantu benshi baje kwivuza, kugira ngo bahabwe nyine ubutabazi k' izo ndwara barwaye, ndetse bagirwe n'inama y'uko bazirinda, mu gihe baba bongeye kuzifatwa.

Ibitaro ndetse n'aho bafatira imiti ni ahantu muri rusange abantu bajya bagenda gufata ubuvuzi bw'ibanze, bakagirwa inama z'uko bakitwara ku buzima bwabo, bakabasha gukomeza kubahoho nta bibazo by'indwara bafite.

Ibitaro n'amavuriro ndetse n'ibigo nderabuzima, ni ahantu hatangirwa ubuvuzi bw'ibanze, bashobora kuguha imiti igufasha mu gihe urwaye cyangwa se bakakugira inama ku bijyanye n'ubuzima bwawe, ababitanga nyine aba ari abaganga.

Ibitaro n'ibigonderabuzima, ni hamwe hantu ushobora gusanga umuganga ari kwita ku murwayi, amubaza uko amerewe, akamusuzuma, akamufata n'ibizamini kugira ngo abone imiti amuha, ndetse amuhe n'inama zigiye zitandukanye bitewe n'ibyo arwaye.

Ibigo nderabuzima n'ibitaro muri rusange ni hamwe mu hantu umuntu ajya gufatira imiti mu gihe ameze nabi ndetse bakaba bamugira n'inama ku uko yakwitwara mu buzima busanzwe kugira ngo atazongera kurwara ukundi.

Imiti yo kwa muganga ni ibifasha abantu kubaho ndetse bigatuma bagiramo n'ubuzima bwiza, imiti yo kwa muganga kandi ifasha abantu mu gihe atwawe neza mu buryo bufite isuku cyangwa se bunasukuye, igihe rero bifashisha indege zabuhariwe cyangwa se izo bakunze kwita doroni kugira iyo imiti ibashe gushyika ku bitaro, ibyo bitaro bifate abarwayi neza.

Ibitaro ndetse n'aho bavurira, usanga hari abantu benshi bakeneye serivisi zitandukanye, zigendeye n'ubuzima bwabo, bigendanye n'uko biyumva, abaje kubyara, abaje kwivuza marariya n'abandi bose bakeneye kwitabwaho nyine kugira ngo bamere neza.

Amalaboratwari ni abantu bakorera ubugenzuzi ku miti, ku biribwa, ibintu runaka, ku binyabuzima bitandukanye, kugira barere niba bfite ubuziranenge cyangwa se bakahakorera imiti izavura abantu, uburozi buzica abantu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Mu ma laboratware usanga ari ahantu bageragereza imiti cyangwa se bakavumburira n'ibindi byinshi bitandukanye, bizafasha mu malaboratware rero ushobora gusanga hari abanyeshuri bari kuhigira, cyangwa se ari abandi bantu bari kugerageza ibijyanye n'ubuzima bwa muntu.

Amalaburatwari ni hamwe mu hantu hatunganyirizwa imiti, ndetse basuzuma n'ubuziranenge bwayo, abahaba cyangwa se abahakora, baba bagomba kuba barabyize kandi banabyumva neza.

Ama laboratoire ni hamwe ahantu hatunganyirizwa imiti cyangwa se ikanageragezwa kugira ngo izabashe kugira abantu cyangwa se amatungo ibagirire akamaro. Ibi byose bikorerwa ku bw'inyungu z'ikiremwamuntu ndetse n'inyungu z'ayo matungo.

Amalaboratwari ni hamwe mu hantu basuzumira imiti ku binyabuzima, cyangwa se ahantu bashobora gusuzumira ibindi bintu byafasha mu buvuzi, no bintu bijyanye n'ubutabire no mu malaboratwari agomba kuba afite isuku ndetse ukirinda kuba wariramo ikintu icyo ari cyo cyose.

Abana batoya bakeneye kugira ubuzima bwiza ni muri urwo rwego kuko hari ibigo byinshi bigiye bitandukanye bibahereza amata cyangwa se indi ndyo yuzuye kugira ngo babashe gukura bameze neza bafite igihagararo ndetse n'ubwenge.

Kugira ngo umwana akure neza akurane urukundo rwa mama we rw'umubyeyi we ni ngombwa ko iyo ashyitse kwa muganga umubyeyi akimara kumubyara hari icyumba aba agomba kwicaramo kugira ngo amwonse, amuhe icyo twakita nk'indyo ya mbere, amuhe ibere nyine!

Umubyeyi yicaye ku gitanda cyo kwa muganga ateruye uruhinja cyangwa se uwo twakita nk'umwana we ari kumusekera abona ko nta kibazo na kimwe afite, kubera ko umwana yanasinziriye wenda ari kumutekerezaho ibintu byinshi bitandukanye ari kwibaza uyu mwana azabiki ejo hazaza, n'ibintu byinshi nyine bigiye bitandukanye umubyeyi yibaza ku mwana we igihe cyose yicaye.

Kugira ngo umwana akure neza, akure nta kibazo afite cyangwa se bibe na bikeya nubwo yabigira, umubyeyi we w'umugore aba agomba kumwitaho kuva akimusama, kugera ageze ku isi. Ni muri urwo rwego ababyeyi bagomba kujya kwisuzumisha, mu gihe bagitwite bakagana ibigo nderabuzima.

Aho abana bitabwaho ndetse n'abantu nyine bakuru bakabitaho. Bahita muri materineri cyangwa se hahandi umubyeyi ashobora kubyarira. Umwana bakamujyana aho agiye kumwonsa ahantu hose mu bitaro byose baba bahari. Abana bahabwa indyo yuzuye bakitabwaho. Ntihagire ikibazo na kimwe bahura nacyo.

Kugira ngo umwana akure neza aba agomba kwitabwaho muri rusange, ahantu henshi usanga, hari ahantu leta yateganyije, abana bazajya bafatira indyo yuzuye cyangwa se ababyeyi bakabitaho, bari hamwe muri rusange.

Kwita ku bana bato biba ari ingenzi cyane kugira ngo bakure bafite ubuzima bwiza kandi bwuzuye, aho usanga ababyeyi cyangwa se abarera abana babitaho mu buryo bugiye butandukanye, babahereza indyo yuzuye, babahereza inama, babaha buri kimwe cyose kugira ngo umwana azakure ashimwa n'Imana ndetse n'Igihugu.

Kugira umwana akure neza nta kibazo afite aba agomba kuba afite mama we wamubyaye na we afite ubuzima bwiza cyangwa se umubyeyi w'umugore wamubyaye afite ubuzima bwiza, ni muri urwo rwego umubyeyi aba agomba kujya kwa muganga mu gihe atwite uwo mwana kugira ngo afatwe ibipimo bigiye bitandukanye, kugira umwana azaze ameze neza.

Ubutabazi bw'indwara zo mu mutwe, ni ubutabazi buba bukenewe cyane kugira ngo umuntu uhuye nabwo ako kanya abashe gufashwa. Ni yo mpamvu henshi uzagenda usanga ibyapa bigiye bitandukanye, bikangurira abantu kwita ku bantu bafite ibyo bibazo byo mu mutwe.

Ubuvuzi bwo mu mutwe ni ubuvuzi bw'ingenzi, kuko ahantu umuntu avurirwa mu mutwe bugomba kuba hari umutekano, hatuje kandi n'abaganga baba babishinzwe, bagomba kuba barabyize nta muntu urimo utabizi, kugira ngo uje kwivuza mu mutwe afatwe neza ndetse serivisi ashaka ayihabwe neza.

Ubuvuzi bw'ubuzima bwo mu mutwe ni ngombwa ko butangwa bugatangirwa n'amahugurwa kugira ngo uhuye nabwo umuntu ahite amufasha bitewe n'ibyo yahuguwemo. Ni muri urwo rwego haba hagomba gukorwa amahugurwa cyangwa se ubukangurambaga ku bijyanye n'ubu buzima.

Ubutabazi bw'ibanze bwo mu ndwara zo mu mutwe, bumwe mu bitabazi buba bukenewe cyane mu gihe umuntu ahuye n'ikibazo runaka, umuntu ashobora kugira ikibazo cyo mu mutwe uwo bari kumwe akabakifashisha telefoni agahamagara ababishinzwe.

Inzu z'abantu bavurira abantu bafite ibibazo byo mutwe ziba zigomba kuba ahantu hitaruye, hatuje atari ubuze kugira umuntu ujya kuvuriza cyangwa se ufite ikibazo cy cyo muwo mutwe bitaza kumugiraho ingaruka kubera urusaku hari ibigomba kubi ahantu thujuje itaro wenyinenebonanari sekirite.

Ubuvuzi bwo mu mutwe cyangwa se aho bavurira mu mutwe, ni hamwe mu hantu haba hagomba kuba hatuje ubikora akaba yarabyize, akaba afite n'ukuntu abwira umuntu uje kumugana, akamubwirana ikinyabupfura ndetse akamubwira n'amagambo yitonze cyangwa se amagambo arobanura.

Amwe mu mavuriro w'ubuvuzi bw'ibanze cyangwa se ubutabazi bw'ibanze ushoboraka gusangamo amavuriro avura abantu bafite ibibazo byo mu mutwe umuntu ashobora kugira ikibazo cy'umutwe kimutunguye cyangwa se abisanganywe bikaba ngombwa ko yihutishirizwa kujyanwa kwa muganga.

Ubutabazi bwo mu mutwe cyangwa se ubutazi bw'ubuvuzi bwo mu mutwe ni ubutabaza umuntu aba agomba kuba yagira mu gihe afite ikibazo cyo mu mutwe, uba usanga kwa muganga cyangwa se mu bitaro bigiye bitandukanye hari umuganga ushinzwe kwita kuri icyo kibazo cyangwa se k'ubwo burwayi bw'ubuzima bwo mu mutwe.

Amafarumasi ni hamwe mu hantu umuntu ashobora kugera aho agiye kwivuza cyangwa se akanagirwa inama ku bijyanye n'ubuzima bwe, bashobora kukugira inama yo kuboneza urubyaro, kureka ibintu byinshi bishobora kwanduza indwara yaba izo mu mutwe cyangwa se izifata umubiri muri rusange.

Mu mafarumasi ni hamwe mu hantu ushobora gukura imiti mu gihe wayitumwe kwa muganga mu gihe ibyo bitaro byagutumye ntaho bifite nta mafaromasi kandi ushobora kugufasha mu gihe udafite ubwisungane mu kwivuza ukaba wayakira rero bakakuvura nabo kuko bakora nk'ibitaro.

Ku mufarumasi ni ahantu ushobora kujya kubariza imiti, cyangwa se ukajya kugisha inama, mu gihe wumva utameze neza, bakakwitaho, kugira ngo umere neza, ugire ubuzima buzira umuze nk'umufarumasi, ubu usanga afite imiti igiye itandukanye y'ubwoko bwinshi.

Mu buzima bwa muntu habaho kurwara no kuba umuntu ari muzima, iyo umuntu arwaye yihutira kujya kwa muganga cyangwa se yabona farumasi imwegereye akaba ariyo ajya kubarizamo imiti cyangwa se akabaza uko yakwitwara, ni muri urwo rwego rero muri foromasi ushobora kuhasanga imiti igihe itandukanye ivura indwara zigiye zitandukanye.

Amafarumasi ni ahantu ushobora gukura imiti igiye itandukanye mu gihe utameze neza mu gihe nta Mituweli ufite cyangwa se nta bwisungane mu kwivuza, mu maforumasi ushobora kuhakura ubuvuzi gakondo n'ubuvuzi bwa kizungu bwose buratangwa.

Ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima bwa muntu ni ubukangurambaga bukorwa hagamijwe nyine mu kubungabunga ubuzima, bashobora gukora ubukangurambaga mu kurwanya sida bifashishije urubyiruko, ibi ngibi bikorwa hifashishijwe imbaraga za leta.

Ubukangurambaga bujyanye n'ubuzima cyangwa se buvuga ku mibereho y'abantu muri rusange, bumwe mu bakangurambaga bukenewe cyane hano muri iyi isi ya none kuko, ibyorezo byinshi biri gutera ni ngombwa rero gukora ubu bukangurambaga, kugira ngo abantu birinde ibyo byorezo cyangwa se izo ndwara z'inzaduka ziri kugenda ziza.

Ubukangurambaga bujyanye n'ubuzima bwa muntu cyangwa se bujyanye n'ubuvuzi, bumwe mu bukangurambaga buri muntu wese aba akeneye kugira ngo abashe kwirinda indwara zigiye zitandukanye, muri iki gihe cy'ibyorezo turimo ndetse n'ihindagurika ry'ikirere rikomeje kuza, niyo mpamvu umuntu wumvishe ubukangurambaga ahantu aba agomba kubwitabira cyane cyane ubugendanye n'ubuzima.

Ubukangurambaga bujyanye n'ubuzima bwacu ni bimwe mu bitwereka ko ubuzima bwitaweho by'umwihariko Leta yacu iba yabishyizemo imbaraga kugira ngo abantu babungabunge ubuzima bwabo bigendanye n'ibyorezo biriho muri iyo minsi cyangwa se ukubungabunga ubuzima bwa muntu cyangwa se ubw'ibidukikije.

Imiti gakondo ni imwe mu miti ifasha abantu bameze nabi cyangwa se bumva batameze neza, bakayishakira mu mafaromasi cyangwa se mu buvuzi bwa gakondo kugira ngo ubashe kumera neza, iyo miti gakondo hari igihe ushobora kuyisanga nko mu byaro bitandukanye bitagusabye kujya kure, ukayifata rwose ukamererwa neza.

Imiti gakondo ni imwe mu miti yifashishwa mu buvuzi bw'ibanze; nyine bw'umuntu ku giti cye cyangwa se abantu muri rusange; aho ushobora gusanga umuntu ari gufata umuti wenda w'inzoka, aciye ibibabi by'imiravumba n'iby'ikindi kintu icyo ari cyo cyose ariko bishobora kumukiza.

Imiti gakondo ni imiti ifasha mu buvuzi bw'ibanze, umwana ashobora kuba arwaye mu nda ukamusoromera umuravumba, uwo ni umuti gakondo umuntu ntarwara umutwe agashaka ibindi byatsi bitandukanye bishobora kuvura umutwe cyangwa se ibindi gakondo aheye keyera ikoreshwa naubu ngo biracyakoreshwa.

Imiti gakondo ni imiti ifasha abantu mu gihe badafite ubuzima bwiza, mu gihe batamerewe neza, imiti gakondo isanzwe ikungahaye ku bintu byera no mu Rwanda ndetse ikera no mu giturage, yifashishwa havurwa indwara zigeze zitandukanye, by'umwihariko zananiranywe zigiye zitandukanye nyine.

Imiti gakondo ni imwe mu miti ifasha abantu mu gihe bahuye n'ibibazo runaka. Mu gihe imiti ya kizungu yananiwe cyangwa se idafite ubwo bushobozi bwo kuvura iyo ndwara. Mu Rwanda hari imiti myinshi igiye itandukanye ishobora kuvura indwara zitandukanye, hari isekurwa, hari iririrwa cyangwa se ikanyorerwa aho ngaho, muri rusange iyi miti yose irafasha.

Imiti gakondo ni imwe mu miti ifasha abantu benshi bagiye batandukanya bafite ibibazo ibibazo bijyanye n'uburwayi, iyi miti gakondo iboneka ahantu h'icyaro cyane kimwe mujyi kuko ishobora kuhaboneka ahantu hacuruza imiti nyine haba amafarumasi cyangwa ahandi.

Imiti gakondo ni imiti ishobora gufasha umuntu mu gihe yaba afite uburwayi butandukanye, ikamufasha nk'ubuvuzi bw'ibanze mu gihe atajya kure, mu gihe ariko yaba yegereye ahantu hari iyo miti, muri rusange imiti gakondo ifasha abantu ndetse yahereye kera inafasha abantu, ushobora kuyisoroma wenda ku rugo bitewe n'urugo rwawe ukuntu rwubatse.

Imiti gakondo imwe mu miti ifasha mu buvuzi mu gihe umuntu abukeneye. Imiti gakondo ishobora kuba irimo ibibabi by'ibintu runaka ,umuntu ashobora guhekenya bikamuvura indwara runaka, mu gihe aba yumva atameze neza.

Umuntu ashobora kurwara indwara z'amayobera, ino miti ya kizungu idashobora kuvura, niyo mpamvu baba bagomba kwifashishwa imiti gakondo kugira ngo urwaye ibyo bintu cyangwa se ufite iyo ndwara yitabweho.

Amavuriro aciriritse cyangwa se ibigo nderabuzima, ni ahantu umuntu yisanga mugihe atameze neza, mu gihe ari kumva arwaye, bakamuha serivisi zi zitandukanye zirimo kumugira inama, kumuha imiti ibasha gutuma amera neza n'ibindi.

Amavuriro aciriritse ndetse n'ibigo nderabuzima, ni hamwe mu hantu umuntu ajya afite ubuzima bumeze nabi kugira ngo wongere kugarura ubuyanja cyangwa se agarure ubuzima bwiza, hano bashobora kukugira inama y'uko ushobora kwitwara ku bijyanye n'ubuzima bakaguha n'imiti igufasha.

Amavuriro n'amakilinike cyangwa se n'ibigo nderabuzima biba biri hafi, nibyo bifasha abantu kugira ubuzima bwiza mu gihe umuntu yumva arwaye akajya kuhivuriza bakamwitaho bakamuha imiti, bakamubaga bakagira ari umubyeyi akabyara n'undi wese ufite ikibazo gikomeye akivu...

Amavuriro rusange ni amavuriro ashobora gufasha abantu mu gihe bahuye n'ikibazo runaka cy'uburwayi baba batameze neza bakayerekezaho bakagirwa inama yo ku buryo barya bakwitwara ndetse bagahabwa imiti n'ubundi buvuzi bw'ibanze nyine muri rusange.

Ibigo nderabuzima n'amavuriro aciriritse ni aho umuntu ajya gufatira imiti ndetse akagirwa n'inama zitandukanye ku bijyanye n'ubuzima bwe kugira ngo abashe kumera neza akomeze ubuzima bwe n'imirimo ye ya buri munsi.

Amavuriro mato cyangwa se amavuriro aciriritse ni hamwe mu hantu ushobora gusanga serivisi zigiye zitandukanye zigendanye n'ubuvuzi, muri ayo mavuriro bashobora kuba bari kugira abantu inama z'uko barya indyo yuzuye barya ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga kugira babashe kugira ubuzima bwiza.

Amavuriro n'ibitaro biciriritse ni hamwe mu hantu umuntu ajya ameze nabi cyangwa se kumva atameze neza, bakamuha ubuvuzi bw'ibanze ndetse bakamwitaho banamugira inama, bashobora kumuha imiti iri buze kumufasha kongera kumera neza.

Ibitaro cyangwa se amasantere dosante mu ndimi z'amahanga, ni ahantu ahamwe afasha abantu babarwaye cyangwa se umuntu utameze neza, akajya kuhivuriza bakamuha imiti bakamwitaho bishoboka kugira ngo yongere agarure ubuyanja amere neza.

Amavuriro aciritse n'ibigonderabuzima. Ni ahantu umuntu ashobora kujya gushakira ubuzima cyangwa se ubutabazi bw'ibanze mu gihe yaba ameze nabi cyangwa se yumva atameze neza ku buryo busanzwe. Aha ngaha bakwitaho bakakugira inama ndetse bakaguha n'imiti igufasha kumera neza.

Amavuriro muri rusange ni amavuriro afasha abantu batandukanye; ahantu ushobora kujya urwaye ukahava umerewe neza cyangwa se bakaguha ibigufasha kumera neza birimo ibinini byo kunywa, bagutera inshinge ndetse n'ibindi cyangwa se bakakujyana ahandi hantu bagiye kukwitaho cyangwa se bakugira inama zitandukanye.

Amavuriro muri rusange se cyangwa se ama santere dosante, ni ahantu umuntu ajya kwivuriza mu gihe afite ikibazo runaka kijyanye n'uburwayi bitandukanye, bakamuha imiti bakamuvura ndetse bakamukora ubutabazi bw'ibanze kugira akomeze kubaho mu buzima yishimye.

Amavuriro aciriritse n'ibigo nderabuzima, ni imwe ahantu umuntu ashobora kujya gufatira ubuvuzi bw'ibanze, igihe wumva atameze neza, aha ngaha bashobora kukugira inama, bakaguha imiti, igihe ubabwira uko urwaye cyangwa se usu uko umerewe.